Ni aho bakirira abarwayi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye ndetse banabafasha kuba babahuza n'abandi baganga babaha imiti kugira ngo babirukanire indwara mu mubiri ndetse babashe kongera kugira imbaraga.

Ni umumama cyangwa se twavuga nk'umurezi w'umwana ashobora kuba umubyeyi we, ari ahantu kuri robine ari gukarabya umwana muto n'isabune, ari kumusukura ngo agire isuku ndetse bifasha umwana kugira ubuzima bwiza, no kuba byamurinda indwara zimwe na zimwe zikwirakwizwa no kutagira isuku.

Ni abayobozi bicaye hamwe bari mu nama ishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima biga ku buryo bazajya batanga serivisi nziza z'ubuzima, kubo babereye abayobozi ndetse banabitaho mu buzima bwa buri munsi kugira bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni umukobwa waje kuvoma, afite ijerekani ndetse afite n'ibase, ari kuvoma amazi yo gukora isuku agasukura imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bibarinde zimwe mu ndwara ziterwa n'umwanda, kandi agasukura kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni umubyeyi waje kuvoma amazi ndetse afite amajerekani atatu. Amazi agiye kuyavoma ajye kuyifashisha mu gusukura ibikoresho byo murugo ndetse no gufura imyenda, koza amasahanri n'ibindi, ndetse kugira ngo bakomeze kwirindade indwara zijye zitandukanye ziteza n'umwanda. Isuku ni nziza.

Ni umwana waje gushaka serivisi z'ubuvuzi aherekejwe na mama we, birasa nkaho bahuye n'umuganga uri kubasha kumusuzuma areba uburwayi afite ndetse umuganga afite ikayi n'ikaramu ari kugenda yandika ndetse inyuma yabo hari abandi baturage nabo baje gushaka serivisi, harimo n'umujyanama w'ubuzima.

Umwana ukiri mutoya ariko arikuvoma amazi mu ibase, agakaraba intoki ubona ko yishimye ndetse yashishikajwe no kugira isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza izamufashe kuba yakwirinda indwara zigiye zitandukanye. Isuku ni isoko y'ubuzima ituma tugira ubuzima bwiza, dushishikarizwa kuyigira mu buzima bwa buri munsi.

Ni abaturage bateraniye ku nzu yabigenewe itangirwaho serivisi zitandukanye zirimo iz'ubuvuzi, bahawe ikiganiro kibashishikariza gukomeza kwiyitaho no kugira ubuzima bwiza kugira ngo bibarinde indwara zigiye zitandukanye.

Ni ikigo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako zikigize ndetse n'ubusitani bwaho, aho abantu babakirira ndetse naho babaganiriza, baratwereka ndetse n'aho baruhukira ndetse n'ibintu byose bikenerwa.

Ni icyumba cyangwa se ihuriro ry'ababyeyi n'abana baza gupimisha abana babo ngo basuzume uko bahagaze haba mu mirire ndetse no mu mikurire, bareba niba bafite indyo yuzuye bakura neza kugira ngo niba hari n'ufite ikibazo babe bamufasha, barebe se umubiri wabo indwara bahagaze gute, baba baje gusuzuma ngo barebe imikurire y'umubiri y'abana babo.

Ni umumama waje kuvuza umwana we ufite ikibazo cy'uburwayi. Umwana we bari kumwitaho bamusigatiye. Umwana we ndetse barikumuha serivisi nziza. Mama we afashe umwana ategereje ko umuganga akomeza kumwitaho neza amuha serivisi kugirango azakure neza afite ubuzima bwiza.

Ni ababyeyi batandukanye bari ahantu hatangirwa serivise cyangwa se ku kigo nderabuzima, barimo bshishikariza kugira ubuzima bwiza, bari kubaha ibiganiro bijyanye n'ubuzima, bagenda bababwira ibyiza byo kwiyitaho bakita no ku miryango yabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kuba batakiyitaho ngo bagire isuku.

ariko kutwereka umwana uri ku mugezi arishimye yaje kuvoma amazi arimo bafashe mu rugo mu gukora amasaku kugira ngo babashe kugira ubuzima bwizaza mujerikani atatu ndetse avoma yishimiyetoyakomezazi w nyuma y'iyigezi hari ibindi bikanye buri icmo byifashishwa mu rukudi abatutsi ndetsebyishiwe

Ni abayobozi bateraniye hamwe, bari kubasha guhabwa zimwe mu nama cyangwa se zimwe mu mfashanyigisho zibafasha gukomeza kunoza serivisi batanga yo gukomeza gutanga ubujyanama mu buzima ndetse no gufasha ababagana, kuba bakomeza kugira ubuzima bwiza bwabo bwa buri munsi.

Umwana w'umuhungu mugezi wabigenewe yina imigezi yakoreshwaga hambere n'ubungubu mu bice bimwe bimwe by'igico bikiririmo ugenda ukanda hejuru amazi akaza byari kuvoma mu kajerekani amazi yo gukoresha umwana w'umuhungu wabonye umupinike.

Ni umwana waje kuvoma amazi ku kigega kuri robinine yazanye indobo yo kuyatwara mwana w'umuhungu we ari kunywa amazi agurishijeki ariko yaje no mu kigega kigaragaramo ari icyaha mu bihe byashize inyuma yayo rwanda n'inzu zisa n'iz'ubucuruzi.

Ni umuntu ufite isuku uri gukaraba intoki ze urimo kwisukura kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bimurinde zimwe mu ndwara zanduzwa no kutita ku mubiri ari kwisukura neza n'amazi meza kugira ngo bimurinde kurwara akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse abeho neza.

Ni inamay'abayobozi cyangwa se iy'abashishikarizwa kumenyeshwa uburyo bagomba gutanga serivisi nziza z'ubuzima ndetse bakabibwira nabo bayoboye, ko ubuzima kubwitaho ari bwiza, ko bagomba kugira isuku ndetse bakiyitaho buzima bwabo bwa buri munsi ko bizajya bibafasha kubaho neza no kubata zimwe mu ndwara.

Ni abaganga bari gutanga serivisi zitandukanye zo gusuzuma ku kigo nderabuzima, ndetse bakanabashyira mu mashini kugira ngo bakomeze guhabwa n'izindi serivisi, ndetse banabashishikariza gutonda umurongo kugirango batange serivisi neza kandi bose ku gihe kugirango buri wese abashe kugerwaho.

Ni umwana waje kwa muganga urimo gusuzumwa ushobora kuba uri guhabwa urukingo, muganga ari kumutera urushinge umwana asigatiwe n'umubyeyi we bari kumukingira kuba bamurinda indwara zijya zitandukanye, kugira ngo abashe kuzakura afite ubuzima bwiza azagire ejo heza.

Ni umupapa wishimye cyane, ufite ijerekani waje kuvoma amazi kuti robine, inyuma ye hari ibihingwa bi bitandukanye wajya gushaka amazi no gukoresha mu buryo kugira ngo iwe mu rugo ba gukura neza ibikoresho by'pfa amatu ndetse no kugira ngo baririnde indwara ziterwa n'umwanda.

Ni umwana wishimye cyane uri ku mugezi, ufite n'amajerekani abiri urabona ko ari gukorera isuku ibiganza bye kugira ngo bimufashe kuba yakirinda zimwe mu ndwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, uwo mwana rero ari kwisukura no gutwara amazi mu rugo kugira ngo babashe gukomeza kugira isuku bibarinde zimwe mu ndwara zitandukanye.

Ni inzu nziza zubabatse neza. Imbere yaho hari ikibuga gikinirwamo imikino igiye itandukanye ifasha abantu kuruhuka mu mutwe ndetse no kwishimisha bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse n'abakeneye serivisi z'ubuzima bakazibona hariya inyuma ndetse bakabasha kuza ku kibuga bavuye mu kazi mu gihe bananiwe.

Ni bana bishimiye gahunda bagejejweho n'ubuyobozi yo gukomeza kugira ubuzima bwiza, babashishikariza kubaho neza bafite isuku ndetse bababwira ko bizabafasha kubaho bibarinda indwara zigiye zitandukanye kandi urabona ko babyishimiye, ikiganiro bahawe cyabafashije.

Ni abana bishimye bari gukaraba intoki bamenye ibyiza by'isuku, bari kunywa amazi baseka ndetse urabona ko akantamuneza ari kose, bari kwirinda indwara ziterwa no kutagira isuku. Bari gusukura imibiri yabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni umubyeyi bisa naho atwite cyangwa se akaba afite ubundi burwayi urimo kwitabwaho n'abaganga, bari kumusuzuma bakumva uko ameze ngo barebe niba hari icyo bahita bamufasha, aryamye ku gitanda, birasa naho arembye, bambaye udupfukamunwa bose, bambaye ubwirinzi, bari kumuha serivisi neza, barimo baramwitaho bamusuzuma.

Ni umuganga uri guha serivisi uwaje kuyishaka haba ku kigo nderabuzima cyangwa se ahabugenewe hatangirwa serivisi zimwe z'ubuvuzi, haba hari ubufasha asabwa ndetse bari kumwitaho bakamufasha harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mu gutanga serivisi nziza.

Ni ababyeyi baje kwivomero ndetse n'abakobwa ubona bafite amajerekani menshi ndetse batonze umurongo ku ivomero ry'abaturage risa nirizamuye, baje gushaka amazi abafasha mu kugira ubuzima bwiza, no gusukura aho baba n'imyambaro yabo.

Ni abana babiri umwe ni mukuru undi ni mutoya, bari kuvoma ahantu mu kiyaga cyangwa se mu ruzi bitewe, bari kuvoma amazi yo hasi bagiye kuba bayakoresha mu mirimo itandukanye yo mu rugo , harimo gusukura ibikoresho bigiye bitandukanye mu rugo iwabo.

Ni abaturage baje hamwe mu nama ndetse baje guhabwa ibiganiro byerekeranye n'ubuzima bibashishikariza kwiyitaho ndetse bakomeza kugira ubuzima bwiza kugira ngo bazagire uburame ndetse bibarinde indwara zimwe na zimwe zigenda zandura zitewe no kutagira isuku.

N'abaturage biganjemo abana bafite amajerikani, ndetse n'indobo bagiye kuvoma ahantu k'umugezi, umugabo ni we uri kugenda abaha amazi buri wese atega basa n'aho bose bayakeneye batonze umurongo.

Ni umwana w'umuhungu waje kuvoma amazi mu ndobo, abafasha kugira isuku mu rugo ndetse no gusukura bimwe mu bikoresho byo mu rugo, ari kumwe n'umugabo aho ku ivomero nawe uri imbere ye, uwo mwana yavomye ari kwikorera indobo ngo ajyane amazi mu rugo babasha kugira amasuku ndetse no gusukura ibikoresho byo mu rugo.

Ni abana batandukanye baje ku mugezi wa gakondo wakoreshwaga mu bice bitandukanye by'igihugu mu minsi yo hambere, ni abana bafite amajerekani umwe ari kugenda azamura icuma akimanura kugira bagenzi be babashe kubona amazi bavome baje gusukura mu rugo ndetse bibafashe kubaho neza.

N'abana benshi bari ku mugezi bose bashaka gukaraba barimo bishimiye igikorwa cyiza cyo gukaraba intoki barimo, ubona ko bashaka kubaho bafite isuku ndetse bafite inyota yo kugira isuku mu buzima bwabo, kuko bamenye yuko isuku ari isoko y'ubuzima kandi isuku idufasha kubaho neza.

Ni umuyobozi urimo aha abaturage udutabo two gusoma, tubashishikariza kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima bwiza, bakumbuye kudusoma, ni hantu mu isoko hari urujya n'uruza, hari abaturage benshi, bababwira bati "mugire ubuzima bwiza muzagire ejo heza, kandi mukomeze mugire n'ubuzima bwiza."

Abaturage batandukanye biganjemo abamama n'abapapa bari guterura imifuka, ishobora kuba irimo ibyo kurya bibafasha mu kugira ubuzima bwiza cyangwa se ifu y'igikoma ibafasha kugira ngo birinde zimwe mu ndwara ziterwa n'imirire mibi, bikaba bigiye kubafasha mu buzima bwiza no kurwanya igwingira.

Umwana w'u muhungu urimo kunywa amazi ku ry'meragiye ritandukanye biindiibi

Ni umwana mutoya uri ku mugezi ari gukaraba intoki asa n'umwana ugiye kunywa amazi ku mugezi wa gakondo ndetse iruhande rwe hari n'indobo, urabona ko ari umwana ugiye gukaraba kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse akomeze kugira isuku mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni ababyeyi bagiye batandukanye ndetse biganjemo n'abana barimo kuvoma amazi ahantu ku ivomero ku mugezi, aho bose bari gushaka amazi abafasha kugira ngo baze gukora amasuku agiye atandukanye mu rugo ndetse bagire ubuzima bwiza bikaba byabarinda n'indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ni umuganga cyangwa se ni umuyobozi uri gushishikariza abaturage kugira ubuzima bwiza ndetse no gukomeza kwiyitaho no kwi ubashishikariza kugira isuku ndetse kugira ngo bagire isuku nziza bi ubarinde kubamokanidwara ziterwa n'umwanda.

Ni abana bicaye hamwe barimo batozwa na mwarimu wabo cyangwa se ababakuririye abigisha uburere agenda abatoza ababwira ibyiza by'ubuzima bwiza abigisha n'ubumenya butandukanye bagomba kuba bafite bubafasha gukomeza gukura neza bakazagira ejo hazaza.

Ni ababyeyi batatu baje ku ivomero ndetse baje kuvoma amazi kugira ngo baje gukora amasuku yo mu rugo ndetse basukure bimwe mu bikoresho, bateke neza n'amazi meza kugira ngo baririnde kuba bakandura zimwe mu ndwara zitandukanye ziterwa no gukoresha amazi mabi, bari kwiyitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza n'ubw'aba bakomokaho.

ni abana b'abahungu baje kuvoma amazi bafite amajerekani agiye atandukanye mashekani bigaru inyeru kandi abanyamakuru ari benshi cyane biganjemo umuhungu mukuru bari kugenda mucuyuma cy'manura kugira ngo babashe kubona amazi n'ibyo bikoresho byabo babashe kweza mu ngo basukure ndetse bibafasha kugira ubuzima babashe kurya n'indyo nziza bakoresha amazi meza

Ni umuganga uri guha serivisi umu mama amufata amaraso agira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze arimo amusuzuma cyangwa se amuha izindi serivisi z'ubuvuzi ariko yifashishije urushinge arwinjiza mu mubiri we areba uko ahagaze.

Ni abana bari mu kigero kimwe burungano, bambaye imyenda y'ishuri baje kuvoma amazi mu ndobo ndetse no mu tujerekani bisa n'aho bagiye gusukura aho bigira ndetse bose urabona ko bishimye bamenye akamaro k'isuku, barabanza bagakaraba intoki neza kugira bisukure.

Ni abamama ndetse bafite indobo ebyiri hari iy'umutuku n'indi y'icyatsi, ni abamama batanu baje gushaka amazi yo kunywa ndetse urana ko bose umwe ari gukorera undi ngo abashe kwikorera indobo ajyane amazi mu rugo undi asigara avoma. Abantu ku mugezi bari kumwe ndetse baje gushaka amazi bose.

Ni abyeyi baje ku ivomero gushaka amazi abafasha kunoza isuku no gukomeza kwiyitaho bakita no ku babo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza birinda zimwe mu ndwara zitandukanye ziterwa no kutagira isuku, binabafasha kuzagira ejo hazaza kandi heza.

Ni abana babiri bari ku ivomero ry'umugezi, umwe ni umwana mutoya w'umuhungu uri hasi afashe akajerikani arateze, undi ni umwana w'umukobwa uvuye ku ishuri wunamye hejuru, ari kugenda amufungurira noneho wa mwana mutoya akabasha gutega, bakabona amazi ndetse n'inyuma yabo, hari abandi bantu biganjemo abanyeshuri bavuye ku ishuri.

Ni abakozi bari ahantu mu kigo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bimozikura bimwe mu bikoresho bikoreshwa ndetse nabo ubwabo babiririnze kugira ngo bibarinde kuba ba batanga bazi zitandukanye zakundura cyangwa se abazikoreshwa musukura cyangwa gute kugira ngo bisangire.

Abaturage bari gushishikarizwa gukomeza kwiyitaho ndetse bikabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza bagira isuku birinda indwara bityo banakorera hamwe, ni abaturage bibumbiye hamwe bikabafasha kubaho neza ndetse no kuzagira ejo heza bafite ubuzima bwiza buzira umuze ndetse bikabarinda indwara zitandukanye.

Ni ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda arabisi kirimo kirakangurira abantu muri kanseringi cyangwa se mu kubaganiriza kugirango ni mu gihe waje uhate ibibazo, ubashe kukuganiriza ibibazo byawe babikumaremo ndetse bakubwire ibyiza by'ubuzima ubashe kuguhindura mu mutwe ubashe kubaho neza wishimye.

Ni umurwayi waje kwa muganga uri kwitabwaho n'abaganga babiri, urabona ko bari kumuha serivisi neza kandi ikigaragara cyo bari kumushyiramo serumu bisa n'aho umurwayi yari yakomeretse ariko abaganaga bamwitayeho cyane bakamuha serivisi neza z'ubuvuzi nk'uko bikwiriye.

Ni abana n'umwana uri kunywa amazi, inyuma ye hari abandi bantu ari kunywera amazi kuri robine urabona ko yishimye yabanje akaraba intoki mu mazi, kugira ngo akomeze agire ubuzuma bwiza, ndetse kumwe n'abandi bari kumwe na we na bo bakeneye kunywa amazi kugirango bagire ubuzima bwiza.

Ni abajyenama cyangwa se abandi baturage bari mu ihuriro rusange cyangwa ahabera inama, bari kubahugura ku bijyanye n'isuku ndetse babashishikariza kwiyitaho no kwita ku buzima kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza bizabafashe kubaho neza no mu hazaza.

Abayobozi bavuga ku burenganzira bw'umwana wa bukenewe kandi bwizewe ku mwana uwo ari we wese bagomba kumugeraho bakamufasha n'byo agomba akabigeherwa uburenganzira bwo kubahirizwa nk'umwanasha kubona buri kimwe kininige bakamufasha kuba yabasha kubona ishuri n'ibindi byangombwa bikene.

Ni imodoka nini cyanekurikiran nini cyanegenda bitwara um mwiko iki byifashishwa kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza bibafashamo ku kugirara isuku ndetse no gukomeza kwirinda in imvura zitandukanye bimwe muri rimwe bikoresho imodoka yitwaye bishyurira abaturage.

Ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hahuriye abaturage benshi barimo bahabwa inama ndetse n'amahugurwa atandukanye, baba bagenda babungura ubumenyi butandukanye, babashishikariza gukomeza kwirinda zimwe mu ndwara ndetse no gukomeza kugira isuku kugira bibafashe kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kutagira isuku.

Iyi foto itwereka indwara eshatu zirimo iy'agahinda gakabije, indwara ziterwa n'isuku nkeya, indwara ziterwa no gufatwa ku ngufu, bakaba badushishikariza kuba twazireka, batwereka n'ibibi byazo batubwira kuzirinda kuko ntabwo ari nziza.

Ni abayobozi biganjemo aba papa n'abamama ndetse bisa nk'aho aribo batanga serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe, bishimiye intambwe bateye ndetse na serivisi nziza baha ababagana zo kubafasha, kubaganiriza no kubavura zimwe mu ndwara zo mu mutwe zigiye zitandukanye.

Ni umugabo bisa naho afite agahinda kenshi, ibibazo byamurenze mu mutwe bimeze nabi imitekerereze yahindutse nta cyizere cy'ubuzima, akeneye umuntu umwegera akamuhumuriza ndetse akanamufasha kumubwira ko agomba kubaho yishimiye ko ubuzima ari bwiza. Ibibazo byamwishe yahangayitse.

Ni umugabo urimo arira wahuye n'ibibazo bisa naho yishwe n'agahinda gakabije, afite ibibazo byamuhangayikishije yaburiye ibisubizo, umugabo arimo ararira rwose bisa naho afite agahinda gakabije, nta byishimo mu buzima yababaye bikabije.

Nabaturage baba mu nama harimo guhabwa ikiganiro kibererekeyeho ku bwa muntu ndetse n'imitekerereze yabo kugira ba bafite igitekerezo cyiza kizabafasha kugira iterambere rirabye bakaba abanyayarwanda cyangwa se bagagira.

Ni inzu isangirwamo serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe cyangwa se bufasha abantu bagize ibibazo cy'ubwonko cyangwa se agahinda gakabije babagarura icyizere cy'ubuzima ndetse bakanabahumuriza bikabafasha kugira ubuzima bwiza. Muzu isa neza ngo batangiramo izo serivisi.

Ni ibitaro by'akarere bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, zirimo izo gufasha abarwayi, kongera kubavura bagakomeza kugira ubuzima bwiza, bakabashishikariza kujya birinda ndetse bababwira ko bagomba kugira isuku, bakirinda zimwe mu mbogamizi zakongera kubakururira ibibazo by'uburwayi.

Ni abamama babiri bari kuganira bifashishije bimwe mu bipupe, harimo icy'inka ndetse n'utundi dupupe tw'abantu, bari kuganira ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu bakoresheje ibipupe bitandukanye bibafasha kumvikana neza no guhuza ibitekereza.

Ni ikiganiro kiri gutangwa n'ikigo gishinzwe ubuzima Rwanda Biomedical Center, kibwira baturage cyangwa abundi bantu. Kidushishikariza gukomeza kugira ubuzima bwiza, tukabana neza mu imitekerereze, tukirinda agadahinda gakabije, tukaba tunezerewe, ndetse tukabana nabandi tunezerewe.

Ikigo cya Rwanda Mental Health in Practice ni ikigo gifasha mu buvuzi bwo mu mutwe ndetse kikaba cyita ku bantu bafite ibibazo by'ubwonko kikabafasha kongera kugarura ubuzima ndetse bakabitaho mu buvuzi ndetse no mu kubaganiriza bakongera bakagira ubuzima bwiza

Baratwereka umuma urimo asa n'ubabaye n'abandi ba mama babiri n'umupapa abaganiriza ku bintu bijyanyedwara y'ubwonko babashishikariza kujya baganirizaya cyangwa se kutazagirana amakimbirane cyangwa ibibazo byatuma barwa iyi ndwara agendabahoha inama zigize zitandukanyeizo.

Ni ababyeyi bafite abana baje gushaka serivisi hano, bakiriwe n'umuganga ubifitiye ubushobozi ndetse n'ububasha, ari kubafasha guha serivisi abana babo kugira ngo bazakure neza akaba abarinda zimwe mu ndwara zitandukanye ziganza izo mu mutwe abaha serivisi nziza kandi inoze.

Ni abakozi batanga serivise z'ubuzima, by'umwihariko mu bibazo byo mu mutwe cyangwa se ibyerekeranye n'ubwonko, bisa naho hari uwo bakiriye bari guha serivise nziza, bari kumuha ubufasha mu buvuzi ndetse bamwitaho neza kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza ndetse abashe kuba yakira zimwe mu ndwara z'ubwonko.

Ni umugabo usa n'ukuze, gusa afite ikibazo cyo mu mutwe urabibona ko atiyitaho yambaye imyenda isa nabi umusatsi warakuze ntabwo wogoshe, gusa yahuye n'ikibazo gikomeye akeneye ubufasha, ubuvuzi ndetse no kwitabwaho bikomeye, bakareba ko yagira ubuzima buzima, akongera akagira ubuzima bwiza.

Ni umugabo ufite agahinda gakabije usa n'ufite ibibazo byinshi uri kumwe n'umudamu we cyangwa se niba umwana we bisa nk'aho arikumubwira ati wa ihangane ibibazo mubuzima bibaho ese yihebye cyangwa se umugabo we cyangwa se undi muvandimwe we ari kumubwira ati ihanagane bibaho mu buzima.

Ni umubyeyi bisa naho afite agahinda gakabije, ababaye, urabona ko nta byishimo agaragaza mu maso ye wagira yahuye n'ikibazo kimukomereye, ubuzima yabwanze bwose, isura yahindutse, urabibona mu maso ye ko atishimye, akeneye kuba yaganirizwa akabasha kugira ubuzima bwiza asa n'uwihebye.

Ni ibihembo byahawe abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ubuvuzi bwo mu mutwe cyangwa se bw'ubwonko ni ishimwe babahaye kuri serivisi nziza batanga ku babagana ndetse bakabitaho mu nkuko bikwiriye bakabafasha mu kubona ubuvuzi byihuta.

Ni abayobozi batandukanye b'ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi mu gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe, babagira inama babaha ubuvuzi bugiye butandukanye, baba babaganiriza kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bukomeze kugenda neza ndetse bukomeze kubaho neza kandi batuje, bishimire ubuzima n'intambwe bateye.

Ni bamwe mu bagize ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi cyangwa se z'ubufasha ku bantu bafite ibibazo by'ubwonko cyangwa se n'imitekerereze cyangwa iz'agahinda gakabije mu kubaganiriza bakabagarura ubuzima bakaba subiza icyizere cy'ubuzima bakaba ganibwira ubuzima.

Ni umwana bisa naho yavukiye mu muryango ukennye utamwitaho, ndetse utamuha serivisi zose akeneye. Utamuha uburenganzira bwe bw'umwana ngo abashe kuba yabona buri kimwe akeneye, kubera ko na mama we bisa naho nta bushobozi buhambaye afite. Gusa umwana arababaye ndetse ari kumwe n'umubyeyi we, usa naho na we atarikumwitaho. Bafite ibibazo.

Ni impano cyangwa se ni igihembo cyahawe ikigo hano cyabashije gutanga serivise y'ubuvuzi bwo mu mutwe neza. Ubona ko babyishimiye bose barasa neza, kandi bishimiye iki gihembo cyangwa se na seretifika bahawe, cyangwa se ishimwe ribashimira ko bakora neza.

Ni umugabo usa n'ukuze ufite ikibazo cyo mu mutwe abadamu bane baba baje kumusura bamuganiriza bamubwira bati: " Ihangane nubwo ya huhuye n'ibibazo by'ubuzima ubuzima bugomba gukomeza bamumubwira ibymufasha mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kongera gukunda ubuzima no kugarura icyizere urabona akaba yarihebye.''

Ni icyumba cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi bareba ibice byangiritse, ndetse bamenya indwara barwaye kugira bamenye uburyo bari bubahe serivisi nziza y'ubuvuzi ibanogeye, ikabafasha kuba bakira burundu izo ndwara mu gihe basuzumwe neza bagahabwa serivisi neza n'ababifitiye ubushobozi, kandi bakayibaha neza mu buryo bunoze.

Ni ahantu habugenewe hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ndetse habasha gusuzumirwa ibice by'umubiri byose, mu gihe umurwayi aza bakamusuzuma, bakareba ikibazo yaba afite kugira ngo baze kumenya aho bahera bamuha serivisi nziza, bamumufasha kongera kugira ubuzima bwiza.

Ni umusore urimo gusukura amenyo, akoresheje agakoreshwa kabigenewe, kagenda kamufasha gutandukanya iryinyo n'irindi kugira ngo abashe kuba yakuramo imyanda imwe n'imwe iba yagiye ijyamo, ndetse bidushishikarize natwe kugira isuku y'amenzi kugira tuzagire ubuzima bwiza.

Ni umuganga uri guha serivisi umurwayi usa nk'aho ari kumukura iryinyo cyangwa se akaba ari ubundi burwayi afite mu kanwa arimo kumuvura, ndetse ari kumuha servisi neza n'umurwayi aratuje, yamwicaje ahabugenewe aramwegamisha neza ari umuganga, urabona ko ari kubikora neza, yambaye ubwirinzi butanduanye kugira ngo amuhe serivisi neza yivuze.

Ni bana batoya bari hamwe bose bari koza kwirinda indwara zitandukanye zitewe n'umwanda zadurira mu menyo, bari kwisukura bishimye bose birashimishije cyane kandi byiza mu amazi ubuzima bwa mu menyo.

Iyi foto yerekana amenyo y'uburyo yakitabwaho bayerekana afite ikibazo arikoyekana uburyo umuntu na yajya abigenzasukura baka utwi ku buryo twaribyitaho uburyomukwiye ku abasha kwita ku menyo yeuburyoya ayarinda indwara zi.

Ni umuntu wishimye ndetse umwenyuye uri kutwereka amenyo adushishikariza kugira isuku no gusukura amenyo kugira ngo biturinde indwara zimwe na zimwe zandurira mukutagirira isuku amenyo yacu ndetse n'isuku muri rusange y'umubiri bitume dufashwa kugira umubiri muri rusange ufite isuku biturinde indwara zitandukanye.

Ni umusore wishimye ndetse ugira isuku y'amenyo, aradushishikariza natwe kuyitaho, tukita ku myanya yacu kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, biturindade zimwe mu ndwara zitandukanye, ndetse turinde n'abacu, dukomeze kuryoherwa n'ubuzima bwiza bwo kugira isuku, kuko bizaturinda n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ni abana bashishikarijwe kugira isuku, bafashe uburoso bwifashishwa mu koza amenyo, birasa naho bishimiye kugira isuku yo koza amenyo ndetse bamenye ko byabarinda zimwe mu ndwara zitandukanye, ziterwa no kutitaho cyangwa se kutagirira isuku amenyo, bityo rero aba bana bamenye ibyiza by'isuku bari kuzirinda.

Ni ibikoresho byabugenewe birimo iby'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma abantu ndetse no kubaha serivisi z'ubuvuzi, bareba bimwe mu bice by'umubiri bifite ikibazo, bakabafasha kongera kugira ubuzima bwiza ndetse bakabafasha kuba babahindura neza mu mibiri yabo bakabaha serivisi nziza.

Ni abaganga cyangwa se abatanga serivisi zo gushishikariza abantu mu kugira ubuzima bwiza, bari kuba bakiyungura ubumenyi bugiye butandukanye bifashishije n'ubushakashatsi ndetse urabona ko bishimiye akazi bakora ndetse no gutanga serivisi nziza ku buzima no gufasha abantu gukomeza kubaho neza.

Ni bimwe mu bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe hari umurwayi uri guhabwa serivisi zigiye zitandukanye mu gihe ari kubagwa bikaba byifashishwa mu gikoresho kigiye gitandukanye n'ikindi ariko byose bikoreshwa n'abaganga mu gihe politike, umurwayi ufite ikibazo cyo kuba yabagwa cyangwa se harimo ibice by'umubiri cyangiritse .

Ni umusore wishimye uri gusukura amenyo ye adushishikariza twese kugira isuku ndetse no kwiyitaho tukita ku mibiri yacu no ku bice by'umubiri tubigirira isuku kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza bw'ahazaza biturinde zimwe mu ndwara ziterwa no kutagira isuku y'umubiri wacu.

Ni abaganga babiri, bari kwita ku murwayi usa n'urembye cyane bamuha serivise ndetse bisa naho barembye cyane bari kumwongeka, cyangwa se amaraso, kuko ari kumwitaho cyane ashobora kuba afite n'ibibazo by'amaso bari kumwitaho cyane.

Ni umwana waje kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo, abaganga bari kumwitaho, urabona ko muganga ari kubasha kumuha serivise neza, akuramo iryinyo neza kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse abashe gutaha amahoro.

Umwarimu wasuwe n'abayobozi bamukuriye bareba imyigishirize ye, akaba ari kwifashisha igikoresho cyabugenewe yigisha umwana, uburyo asukura amenyo ye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, yirinde indwara zimwe na zimwe ziterwa no kutagira isuku, zandurira mu menyo aba atagiriwe isuku neza.

Ni uburyo wakwita ku bice byawo vumubiri cyane cyanee by'a ubisukura ukirinda ingwara bitewe nabyo no mu gihe indwara zajemotwereka uburyo wazikora ndetsejya wihita kwirinda izo ndwara bikagufasha kugiramenyo wasa nezabyarinda indwara ni byiza byabaye ngombwa ubwa wayakorera umuvuzi.

Ni ifoto igaragaza umuntu w'umugabo ugeze mu zabukuru cyangwase umusaza ushobora kuba abana b'ubumuga, hari umuganga cyangwase umuntu ushinzwe kubitaho abantu bageze mu zabukuru, arimo kumwitaho, amufasha kuba yamuha ubuvuzi bugiye butandukanye, akamuha serivisi zisanzwe amufasha kwishima.

Ni umukobwa uri muri siporo ndetse birasa nkaho ari umumama ushaje witabwaho arimo arakora siporo urabona ko ari umumama ukuze kugira ngo akomeza agire ubuzima bwiza yirinda indwara akora siporo yishimiye kuko zimufasha kugororoka indwara zikamurinda n'indwara zikamuha no kugira ibitekerezo byiza

N'umusaza urimo kwitabwaho n'umuganga ndetse amuha serivisi nziza y'ubuvuzi, arimo aramusuzuma ngo arebe ko ahagaze amupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amuhe serivisi nziza z'ubuvuzi kugira ngo abashe gukira neza akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni abageze mu zabukuru bishimanye umusaza n'umukecuru, bari gufata ifunguro ndetse baseka, ryiganjemo ibyubaka umubiri n'ibirinda ndwara ndetse n'ibitera imbaraga, kugira ngo bakomeze kugira amasaziro meza ndetse bafite n'ubuzima bwiza ndetse bibafashe gukomeza kugira icyizere cy'ejo hazaza.

Ni umumama ugeze mu zabukuru uri kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho akamuha serivise z'ubuzima kugira akomeze kumera neza afite ubuzima bwiza, bityo bimufashe kubaho yirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse yishimiye ubuzima, akaba amwitaho mu buvuzi no mu zindi serivise zitandukanye kugira ngo azabashe kugira amasaziro meza.

Ifoto y'umugabo usa n'ukuze, bisa nk'aho ari umuganga ari kwita ku muntu ugeze mu zabukuru cyangwa se arimo arakina imikino igiye itandukanye, ni ahantu haba abantu bageze mu zabukuru bakabasha kwitabwaho kugira ngo bazasaze neza bishimye. Barimo baramwitaho, arimo arakina imikino arishimye cyane.

Ni abasaza n'abakecuru bishimye cyane bicaye bari kumwe ndetse n'abashinzwe kubitaho bageze mu zabukuru ndetse babafasha kubaho neza bishimye ndetse bakabaha serivisi zo mu buzima bwa buri munsi, barishimye ndetse baranezerewe bose urabona ko bishimiye ubuzima n'icyizere cy'ubuzima.

Ni abakecuru batatu cyangwa se abamama bakuze bageze mu zabukuru bishimye, bari kwifotoza baseka cyane bishimiye ubuzima babashije guhabwa serivisi nziza zibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza no kubaho neza. Bakishima mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabaho mu buzima bwiza bubafasha gutekereza neza no kugira amasaziro meza.

Ni umusaza ugeze mu zabukuru, uri kumwe n'umubyeyi cyangwa se umuntu ubafasha kubitaho buzima bwa buri munsi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza n'amasaziro meza, azabashe kugira ejo hazaza heza. Arimo aramuha serivisi neza amufasha kongera iminsi ye hanyuma amufasha kugira ibyishimo mu buzima bwa buri..

Ni umukecuru ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho agakurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, urabona ko ari kumuha ubuvuzi, ari kumukoresha siporo ngo agorore zimwe mu ngingo z'umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza azabeho neza yishimye, uriya ni umuntu umwitaho.

Ikigo gitanga serivisi ku bantu barwaye indwara zitandukanye ziganjemo iza virusi y'agakoko gatera Sida, bakaba baha serivisi ababagana bakabafasha kubona ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zigiye zitandukanye ndetse bikabafasha kuba babafasha muri serivisi zo kubakiza.

Rwanda Bio Medical Center, n'ikigo gishinzwe gufasha abanyarwanda kubona ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ubuzima, ndetse kinabafasha mu badafite ubushobozi kuba babona ubufasha mu kubona serivisi zose z'ubuvuzi.

Ni umunsi wizihizwa buri mwaka, uba tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa Cyenda, wizihiza kugira ubuzima bwiza ndetse no mu bidukikije kugira dukomeze kubaho neza, dusigasira ibidukikije kuko nibyo bivamo imiti ndetse ni na byo biduha umwuka duhumeka tugakomeza no kugira ubuzima bwiza.

Ni ikiganiro cyiza kiri gutangwa na madamu Jeannette Kagame, batubwira uburyo tugomba kugira serivisi nziza no gufasha abaje batugana kubarinda zimwe mu ndwara zitandukanye, tubafasha kugira ubuzima bwiza tubashishikariza kugira n'isuku kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza kandi burambye.

Ni umunsi wagenewe indwara ndetse n'isuku kugira ngo dukomeze kugira isuku twirinde indwara, urabona ni abanyeshuri bari kumwe n'abayobozi, bari kubaha ibikoresho bitandukanye bibafasha mu gukomeza kugira isuku, birinda indwara, ni umunsi byagenewe.

Ni inama igizwe n'ababyeyi cyangwa se abamama irimo ibashishikariza kugira ubuzima bwiza, bambaye neza imyeru, bicaye neza, bakurikiye ikiganiro muri sare. Icyo kiganiro cyerekeye ku rwibutso...

Hanyumamba utwereke ifoto y'umwumama uvuga kubibi ku bibi byo kwangiza ibidukikije cyangwa se uburyo twafata neza ibidukikije ntibyari,

Ni icyumweru cyahariwe kurwanya mikorobe cyangwa kurwanya indwara zandura hifashishijwemo n'izindi n'ibindi bigo bitandukanye birimo bya arabisi cyangwa rwanda bayomediko senta n'ibindi bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi kugira ngo hirindwe indwara zandura ziterwa na mikorobe.

Iyi nama ishishikariza abantu kugira ubuzima bwiza, ndetse bagakomeza imiryango yabo bayifasha kuba yagira ubuzima bwizaza mu kubarinda indwara zi zitandukanye, ndetse akabashishikariza kugira ubuzima buzira umuze. Yatanzwe n'abayobozi by'umwihariko umuyobozi ugaragara kubyapa byinshi.

Ni umubyeyi usigatiye umwana ndetse bisa n'aho umwana ashora kuba afite ikibazo cy'uburwayi, amuzanye hano ngo amuvuze babashe ku mwitaho abasha kongera kugiragira ubuzima bwiza, inyuma y'aho hari abandi bantu, kuko umubyeyi bisa nk'aho ashobora kuba afite ikibazo disi akaba yaje kumuvuza.

Barashishikariza abantu kureka ibintu bitandukanye cyangwa se birinda indwara zigiye zitandukanye zandurirwa mu mibonano mpuzabitsina, bashishikariza kuba bakoresha ubwirinzi no gukoresha agakingirizo mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se mu gihe biri ngombwa.

Bari kudushishikariza kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, ubushita bw'inkende ni indwara iza ikambika ku mubiri wose ndetse ukajya ubaze kwishimagura ukagira ubuheri ahantu hose. Bari kudushishikariza kuyirinda si nziza kuko irandura, dukomeze twiyiteho nk'abantu bakuru tuyirinde.

Bari kutwereke inama ifasha abantu basobanurwa ku bijyanye n'amategetsi se kubyerekeye ibikorwa bitandukanye bibafasha .

Ni zimwe mu miti zifashishwa mu buvuzi zigiye zifunze ndetse mu macupa agiye atandukanye, zikaba zikoreshwa harindwa zimwe mu ndwara kandi bikaba bifasha abayifata gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kubarinda Virusi, imiti ikabafasha gukomeza kubaho neza.

niuburyo inzego zitanga serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye n'uburyo bahabwa serivisi bitewe n'ikibazo ufite, ndetse n'uburwayi ufite, naho'aho wahera buryo wagenda uzikurikirana bitewe n'aho ukeneye na serivisi ukeneye aho bayitangira bwozitanga ubufashakeneye mu burwayi bwawe kugira habuze.

Ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi batandukanye cyangwa se kubaha serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye mu bice byabo by'umubiri hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abo barwayi bareba aho bafite ikibazo mu ngingo z'umubiri.

Ni inyubako isa neza cyane y' ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzitse neza ishobora kubibikwamo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi zubuzishobora kubikwamosirasan nzamu agirwamo serivisi nziza.

Ahabugenewe hifashishwa mu bitaro bikomeye bitanga serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwo gusuzuma abarwayi ndetse no kubaha serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima buzima ndetse bitabweho n'abaganga babifitiye ubushobozi ndetse n'ubumenyi.

Ni icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu nzego z'ubuvuzi bw'ikoranabuhanga, ndetse harimo n'imiti igiye itandukanye ifasha abarwayi mu gihe bari kubasuzuma ngo barebe ikibazo bafite na bikozwe n'abaganga b'inzobere bafite ubumenyi bw'ibyo bikoresho.

Ni igishushanyo kitwereka byose by'ijisho zitangwa ndetse n'uburyo bikorwa mu gutegura cyangwa se mu gufasha ufite icyo kibazo ahantu bitangirwa niho hari icyo gishushanyo kiga ku buryo wasukura ijisho ryawe indwara z'ijisho.

Ni inyubako ya etaje iriho abaturage n'abakozi batandukanye bayikoramo mu gutanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kugira ngo ababaganye bahabwe izo serivisi neza, nibakomeze kubafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza bwabo mu buzima bwa buri munsi, harimo imodoka ishobora kuba ariy'umuyobozi cyangwa iy'abashyitsi babasuye kugira ngo barebe serivisi batanga.

Ni inyubako y'ibitaro itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatswe neza kandi isa neza, ifite n'ubusitani bwubatse neza ndetse n'abakozi barimo barakora amasuku kugira ngo abaje gusaba iyo serivisi y'ubuvuzi bajye bayihabwa neza kandi bayihererwe ahantu hasa neza hasukuye.

Ni umuyobozi urimo aganiriza abaturage abashishikariza kwirinda indwara abakangurira kujya abegera ubuvuzi bagafata imiti mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi bagani bashishikazwa ibyo bagomba kwirinda indwara kugira ngo bagire ubuzima bubi.

Ni abanyeshuri biga ubuvuzi bihugura ku bumenyi bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi bagenda ababikorera muzu yabugenewe ya rabaratwari bagenda biyungura ubumenyi butandukanye bwisumbuye kuko bahugurana bari uburyo bwo kongera kubyigana.

Ni icyumba cyabigenewe kirimo ibikoresho byiza bifite ubushobozi bwo kwifashishwa, mu gusuzuma abarwayi bagiye batandukanye ndetse babaha serivisi nziza zibakwiriye zibafasha mu buzima bwabo buri munsi kugira ngo babone ubufasha, butangwa n'abaganga babifitiye ubushobozi, mu kubavura indwara baje bafite kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ni abaganga bari ahantu habugenewe bambaye imyenda ibafasha kwirinda kuba bakanduzwa n'umurwayi ngo bage guha serivisi bafite indwara z'icyorezo gifite imbaraga biyanditse neza kugira muri serivisi neza kandi na kuba bagirana atarakitingi zo zimo iz'umwuka kugira ngo birinde na bafashe kumuzi.

Ni inyubako iparitse imodoka imbere yayo itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bakaba bafasha ababagana kubaho imiti ibafasha mu kuvura indwara baje barwaye ndetse bakanabongerera imbaraga z'umubiri bakabasha gukomeza neza mu buzima buzira umuze, bameze neza.

Ni umuganga ndetse n'umuturage waje gushaka serivisi y'ubuvuzi, aho bamwakirira ndetse bari kumuganiriza bandika ibyo ari kubabwira kugira bamenye uko bari bumufashe, bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga muri icyo cyumba bibafasha gutanga serivisi nziza kandi inoze no kubika raporo y'ibyo bakoze.

Ni icyumba gitangirwamo serivisi zo kwakira abarwayi ndetse baha serivisi nziza z'ubuvuzi, harimo abaturage batandukanye batonze umurongo, by'umwihariko harimo n'undi ubana n'ubumuga, uri mu kagari ndetse waje gushaka serivisi y'ubuvuzi nziza kandi inoze, birasa nk'aho babakiriye neza ku murongo bari kugenderaho babaha serivisi umwe umwe.

Ni kimwe mu kigo nderabuzima giherereye mu karere ka Gicumbi cya Shangashya gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku barwayi, bagafasha ababagana kubaha serivisi nziza ndetse babafasha kubona imiti myiza ibafasha mu kurwanya indwara zitandukanye.

N'umuganga uri mu biro cyangwa se ahatangira serivisi ku mashini, haribyo ari gutunganya ndetse yambaye imyenda y'akazi, ari kuri mudasobwa hari serivisi cyangwa se hari amaraporo arimo akora, inshingano ze za buri munsi nibyo ashinzwe.

Ni ahantu abana bakorera siporo ku kigo cy'ishuri ari ibikoresho byo kwicundaho cyangwa se n'abantu bakuru baba bari mu gikorwa cyo kwishimisha cyangwa kuruhuka mu mitwe kugira ngo babashe gusubira mu gikorwa gikurikira baruhutse mu mutwe n'amaso n'amavunane kugira ngo batekereze neza.

Ni imiti ifasha abantu bafite indwara zitandukanye, aho iba ibikwa ikaba inatangirwa na serivisi zo kuyigeza ku bayikeneye, bari kutwereka uburyo ibitse neza n'ahantu wayisanga mu igurishirizwa ryayo.

Ni ahatangirwa serivise zitandukanye z'ubuvuzi ndetse hahuriweho n'abantu benshi baje guhabwa amahugurwa cyangwa se ubumenyi bugiye butandukanye bubafasha mu buvuzi bwa buri munsi, babashishikariza no kurwanya indwara zigiye zitandukanye no kuzirinda.

Mu cyumba cyifashishwa mu buvuzi batanga serivisi zo gusuzuma abarwayi bareba indwara barwaye ndetse kugira ngo bibafashe kumenya n'uko babafasha kuba bazibavura. Mu buzima bwabo bikabafasha kubitaho ndetse no kubaha serivisi ikora, bakanasuzuma bakabaha na serivisi z'ubuvuzi neza.

Ni ivuriro rya Nyarugenge, ritanga serivisi ku barwayi baje babagana bafite indwara zigiye zitandukanye bakabitaho neza bakabasha gukira neza bakagira ubuzima bwiza.

Ni amarembo y'ibitaro bya Kabgayi, bitangirwamo service zitandukanye zo gufasha abarwayi no kubafasha kubavura indwara zananiranye burundu bakabasha gukira neza, kandi imibiriri yabo igakomeza gukora neza...

Ni icyumba kirimo ibikoresho byiza kandi bigezweho, byifashishwa mu buvuzi mu gutanga serivisi zitandukanye ku barwayi baza bababagana, kugira ngo babafashe kubasuzuma bamenye aho bababara ndetse bamenye n'uburyo bari bubahaye serivisi nziza y'ubuvuzi.

Ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe gitangirwaho serivisi z'ubuvuzi kiriho abaturage baje gushaka serivisi bagiye bafite indwara zitandukanye, barabafasha mu kubagarurira imbaraga z'umubiri ndetse no kubakiza zimwe mu ndwara baje barwaye, babahe imiti ibafasha mu kugarurira imbaraga z'umubiri.

Ni inyubako yifashishwa mu ibikwamo imiti yabigenewe ndetse iyi nyubako ifite ubushobozi bwo kuba yabika n' zirimo ibikoresho ndetse ifite n'umutekano ku buryo ububikwamotibiga akomeza kugira ubuzima bwiza bijyanwa muri byose.

Ni umwarimu uri kwigisha umwana uburyo yarinda amenyo ye amwereka uburyo yayakura hifashishijwe igishushanyo c cyangwa se igikoresho cyabigenewe uburyo agomba kujya yoza neza n'uburoso na korogate ndetse n'abandi bayobozi bareba neza ko umwarimu ibyo kwigisha umwana ibyo bareba ko yabifashe.

Ni ibitaro bitangirwaho serivisi z'ubuvuzi bigaragara, abaturage baje gushaka serivisi ndetse bigaragara ko bari kwakirwa neza ndetse n'imbere yaho hari jaride irimo indabyo zitandukanye zisa neza ndetse bisa nk'aho batanga serivisi neza z'ubuvuzi ku baje bazikeneye bafite uburwayi butandukanye bagataha banyuzwe.

Ni icyumba cyabigenewe gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zihabwa umurwayi ndetse akazihabwa n'umuvuzi ubifitiye ububasha n'ubushobozi n'ubumenyi kandi yifashishije ibikoresho byagenewe ndetse akamuha serivise neza y'ubuvuzi.

Ni inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yigenga, bakaba bafasha ababagana kuba babahaye imiti itandukanye ibafasha mu burwayi bahuye nabwo kugira ngo babashe kuba babukira burundu bagire ubuzima bwiza bakomeze kubaho neza.

Ni ikigo nderabuzima cya Matyazo Health center gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gifasha abaturage mu kuvurwa mu gihe bazize indwara zitandukanye ndetse bakabafasha kubona imiti yujuje ubuziranenge bayihawe n'abaganga babifitiye ubushobozi kandi babifitiye n'ubumenyi bukuru.

Ni icyumba cyabigenewe kibamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi mu gutanga serivisi neza ndetse hanarebwa ahantu yabafi ikibazo hifashisha bikoresho bikoreshwa n'abaganga babifitiye ubushobozi n'ubumenyi, ndetse babasha kumenya ko bikora neza.

Ni umurwayi urembye cyane urimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi zisa naho bamujyanye ahantu habugenewe hari ibyuma bikoreshwa mu kureba neza ndetse norwa bamwitaho kandifasha kwirinda kuba bakandura indwara y'uwo muvuzi babafasha.

Ni abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abakozi b'imwe mu nzu itunganyirizwamo imiti, batanga serivisi z'ubuvuzi, ari na bo babasha kuba bakora imwe mu miti yifashishwa hifashishijwe bimwe mu bikoresho ndetse n'ibimera bitandukanye bikorwamo, iyo miti yo muri serivisi batanga.

Ni ahantu bacuruza imiti igiye itandukanye yagufasha mu gihe wahuye n'ikibazo gitandukanye cy'uburwayi, ndetse ukaza hano ukabagana bakaguha serivisi nziza, baguha imiti igufasha mu kongera gukira uburwayi bwawe, ukaba wasubirana umubiri mwiza uzira umuze, ubuzima bugakomeza kugenda neza.

Ni inzu cyangwa se icyumba cyabigenewe kibikwamo bimwe mu bikoresho byifashishwa muzi birimo imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba harimo umuganga cyangwa se ushinzwe kubisukura ari kugenda arisukura neza abyitaho kugira ngo bibashe gusa neza.

Ibikorwa cyangwa se ni ahantu hagenewe imiti ibikwa kugira ngo igere kubo igenewe ikaba ikorwa neza kandi igira ngo yuzuze ubuziranenge n'ahantu hagenewe ibikoresho bikoreshwa mu bitaro muri za laboratwari n'ahandi hatandukanye hategurirwa imiti igenewe abantu mu buvuzi.

N'ibitaro bya ruhengeri biherereye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze bari kubitwereka inyuma yabyo ndetse n'abantu bagenda baca ku bitaro, mu ibitaro bitanga serivisi nziza y'ubuvu ku barwayi biindwara zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bakomeze gusubirana imbaraga z'umubiri.

Ni mu nzu bisa n'aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi mu gusuzuma abarwayi b'indwara zitandukanye, hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukurikirana abarwayi b'izo ndwara babasuzuma ndetse babita babaha serivisi nziza ibagenewe mu buryo bwo kubarinda ndetse no gukurikirana ubuzima bwabo.

Ni icyumba cyabugenewe gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse bakaba ari naho basuzumira aba bafite ibibazo by'ubugwayi ndetse bakamenya bimwe mu bice by'umubiri biba byangiritse, bakamenya biri bubafashe muri serivisi z'ubuvuzi mu gihe barimo kubitaho.

Ni icyumba cyabigenewe gisa neza, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baje babagana ndetse bakabaha ubuzima bwiza, bakabasha kuba babafasha mu buvuzi, bakaba imiti igiye itandukanye ibafasha kongera kugira imbaraga mu mubiri ndetse no kuba babavura burundu indwara.

Ni icyumba gisa neza kirimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ibibazo byabo, bamenyi n'uburyo bari bubakemurire mu kubaha serivisi z'ubuvuzi, babiteho bongere bagire ubuzima bwiza bishime banezerwe, babeho batuje, babakize indwara barwaye.

Yari avuye muri siporo arakomereka aza gusaba serivisi z'ubuvuzi ndetse umuganga ubifitiye ububasha n'ubushobozi arimwitaho, amuha serivisi neza amuvura ndetse agenda amugorora, kugira ngo ubutaha azabashe gusubira muri siporo afite ubuzima bwiza, yarakize.

Ni umuntu urimo gufata amazi meza cyangwa se umwe mu muti wamufasha kugira ubuzima bwiza ndetse agakomeza kugira umubiri wirinda indwara, bitewe no kuba wakora siporo ndetse bikamurinda zimwe mu ndwara zirimo iz'umubyibuho ukabije ndetse n'ikibazo cy'imitsi kubera uyu muti uragufasha ndetse ukaba wanakora siporo.

Ni umukobwa uri muri siporo ndetse ubona ko yishimiye siporo, yambaye ekuteri arikumva umuziki afite telefone siporo yamenye ibyiza byayo kukoba ari ingenzi mu buzima, bifasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse kubaho neza akaruhuka nezatumamubura amavu n'amavunane.

Ni umusore uri gukora siporo, yifashe ku mutwe, arimo aragorora amaboko, birasa nk'aho ari kwirinda zimwe mu ndwara zitewe no kudakora siporo ndetse anagira ngo umubiri ukomeze gukora neza, abashe kuruhuka neza kandi agire ibitekerezo byiza bimufasha kwiyubaka no kubaka ejo he hazaza hiyirinde na zimwe mu ndwara zitandukanye.

Inkweto yifashishwa mu bwirinzi ndetse ikaba ifasha abantu bakora imirimo itandukanye kuba byabarinda indwara ndetse no kuba bakomereka, mu gihe bari mu kazi gatandukanye ka buri munsi. Iyi nkweto irabarinda indwara zigiye zitandukanye ndetse bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni imiti yabugenewe ihabwa abantu bakora siporo, cyangwa se intungamubiri cyangwa se amazi, cyangwa se ikintu icyo aricyo cyose cyafasha umuntu gukora siporo, cyangwa se cyarinda umuntu kutandura indwara ziterwa no kudakora siporo agakomeza kugira ubuzima bwiza buzira uruze.

Ni imbuto zitandukanye zirimo amaronji, inanasi, imineke, indimu, n'izindi, ndetse hari n'imidari, byifashishwa mu guhabwa abana cyangwa se abantu batandukanye, kuko imbuto ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi mu kubarinda indwara zitandukanye, no gutegurirwa n'amafunguro.

Ni umusore uri gukora siporo ngororamubiri ziganjemo izo ku gice cyo hasi ndetse agenda agorora atera imbere abikorera ahantu habigenewe ubona ko yishimiye gukora siporo kuko yamenye akamaro kazo kuko zimurinda ibintu byinshi bitandukanye bikanamufasha gutekereza neza.

Ni bimwe mu bikoresho wakwifashisha mu gihe uri muri siporo ukaba wakomereka cyangwa se mugihe uri muri siporo ukaba wahura n'impanuka harimo imiti igiye itandukanye ndetse yagufasha mubwirinzi ndetse harimo n'agafuka ushobora kujya muri siporo utwaye imiti yawe izajya igufasha ndetse n'izindi serivisi z'ubuvuzi wabasha kwiga.

Ni umurwayi wari urimo akora siporo abasha kuba yahura n'impanuka, arangirika bimwe mu bice by'umubiri, yaje gushaka serivisi bari kumwitaho bifashishijwemo n'umuganga ubifitiye ububasha n'ubushobozi, ari kumuvura amwitaho, amuha serivisi nziza kandi inoze kugira ngo akomeze agire ubuzima bunoze ndetse abeho neza.

Ahantu hatangirwa serivise za siporo, zifasha abantu mu buryo bwiza bwo kugira umubiri uri sitabo, bikabafasha kugorora ingingo z'umubiri ku buryo buri kuri telefoni n'imashini utanga serivisi zigiye zitandukanye, hifashishijwe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye nyuma ibindi bigiye bitandukanye ubuzima bwiza bwa siporo.

Ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma ndetse bareba ahangiritse ku mubiri cyangwa bashaka kumenya uko umubiri wawe uhagaze, kugira bamenye uburyo bari bugufashe muri serivisi z'ubuvuzi, nko mu gihe wakoraga siporo ukaba wakangirika mu mubiri wawe wifashisha iki gikoresho cy'ikoranabuhanga bagusuzuma.

Ni igishushanyo cyerekana cyangwa se gishishikariza abanyarwanda uburyo bwo gutanga amaraso, gikunze kwifashishwa ahantu hari butangirwe amaraso cyangwa bashishikariza abantu gutanga amaraso kugira ngo afashe bagenzi babo mu burwayi, babashe na bo kugira ubuzima bwiza, bubarinda zimwe mu ndwara zitandukanye.

Umukobwa uri gukora siporo zimufasha kugorora umubiri ndetse bikaba byamurinda zimwe mu ndwara zitandukanye ziterwa no kuba umuntu adakora siporo, zirimo iz'umuvuduko w'amaraso, iz'umubyibuho ukabije ndetse akabasha no kuruhura ubwonko neza, agakura neza mu mitekerereze bikamufasha mu kazi ke ka buri munsi.

Ni umusore wari uri gukora siporo abasha kuba yakangirika bimwe mu bice by'umubiri ndetse ari guhabwa serivise nziza y'ubuvuzi, hari abamutwaye, bamutwaye aho baribumuhere iyo serivise kugira ngo abashe kongera gusubirana imbaraga ndetse n'ubutaha azongere gusubira muri siporo ameze neza, bagiye kumuha serivise nziza inoze.

Ni umugabo uri mu biro habigenewe hatangirwa serivisitanga ubufasha bwa siporo cyangwa se ubuvuzi bwabantu bakora siporo cyangwa bagufasha mu gihe ufite ibibazo by'umubiribura siporo igihe bakakugira inama zubuto wakora siporo ukabasha kugira ubuzima bwiza ugasubirana imbaraga z'umubiri ndetse ukagira ubuzima.

Ni umumama uri gukora siporo aryamye agenda agorora amaguru, ibi bikaba bimufasha kugira no kwi zimwe zirimo z'umubyibuho ukabije, n'izindi za siteresi kugarukana imbaraga gutuma kugarukana imbaraga bigatuma ukora ibintu byawe neza.

Ni igare ryifashishwa mu gihe hari ingingo z'umubiri zitagikora, urugero nk'amaguru kugira ngo ubashe kugenda ukaba wagura iri gare ukajya urigenderamo kugira ubashe kuva ahantu ujya ahandi ndetse bikaba byagufasha mu gihe wakoraga siporo wenda ukaba wahura n'impanuka zitandukanye, zirimo izo kwangirika kw'ingingo z'umubiri.

Ni umukobwa uvuye muri siporo urimo uranywa amazi, cyangwa se arimo afata intungamubiri zimufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bimurinda indwara zimwe na zimwe z'umubiri, ziterwa no kuba adakora siporo ari kubyirinda no kugira abashe kuruhuka neza ngo umubiri we ukomeze umere neza.

Ni umukobwa urimo gukora siporo zigorora umugongo ndetse bikanamufasha kugira ubuzima bwiza ahantu ari gukorera ni ahabugenewe ndetse hateretse amavaze abiri y'indabyo, urabona ko ari gukora siporo zimufasha kwirinda indwara ndetse no ku mubiri we bikamufasha kuruhuka neza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umusore uvuye muri siporo, urimo arankwa amazi, urabona ko siporo ni nziza, ubuzima ni bwiza, iyo ukora siporo bikurinda kuba warwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, zirimo iziterwa n'umubyibuho ukabije z'umuvuduko w'amaraso, kuko umubiri ukora neza, ubasha gukora siporo ubaho neza, ugira ubuzima bwiza.

Ariko kutwereka siporo zitandukanye wakoramo kugirango mu bizo hari izo kunyanga igare ziza gukina hari n'izo kuba waterura bimwe mu bikoresho arti bigufasha kugira ubuzima buzima nk' izdagiti ufasha kugorora umubiri wawe ugasubira mu buzima buzira.

Ni imiti itandukanye ndetse yiganjwemo n'intungamubiri zihabwa abantu bakora siporo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bibarinde n'indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, ziganjemo iz'umubyibuho ukabije ndetse n'iz'imitsi.

Ni umusore uvuye muri siporo uri kunywa amazi meza ndetse yambaye n'isaha, urabona ko yasobanukiwe ibyiza byo gukora siporo kuko bibasha kumurinda zimwe mu ndwara zitandukanye, bikaba bimufasha kuruhuka neza agakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bikaba binadushishikariza natwe, kujya dukora siporo kuko siporo n'ubuzima.

N'igikoresho cyangwa se ahantu habugenewe batwara umuntu wabashe gukomereka yara muri siporo cyangwa se ibice by'umubiri bikaba byangiritse, atwarwamo hano kugirango kugezwa ahagenewe bamwiteho neza kandi bamufashashi bamuhe ubufasha bw'ingenzi, kugirango agire ubuzima bwiza.

Ni hamwe mu hakorerwa siporo ariko by'ibanze bitangirwa ni ibintu byagufasha muri siporo no mu haba harimo n'imiti yadufasha kongera ku ingokorera serivisi zose zijyanye na siporo mu gihe hari ikibazo bagenzi rayon sports bashizi serivisi batanga.

Ni ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma no kumenya umurwayi waje abagana ikibazo afite, bakamenya n'uburyo bari bumufashe bakamuha serivisi nziza z'ubuvuzi, bifashishijwemo n'abaganga babifitiye ubushobozi bw'inzobere.

Ni ubuvuzi cyangwa se ni bimwe mu byifashishwa, muri siporo mu kugira ngo umuntu agire imbaraga ndetse umubiri we wirinda indwara bibashe kuba byamufasha, kugorora bimwe mu bice by'umubiri ndetse no ku byongerera ubudahangarwa, buterwa mu kudakora siporo, bikamufasha kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo.

Ni umurwayi wakomeretse ku gice cy'umubiri cyo kukuguru bari kurushaho kumwitaho neza ari kumwe na muganga ndetse ndabona yamuhaye insimburagingo ari bubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi azabasha gukira yongere agende neza.

ni zimwe mu miti yifashishwa cyangwa siporoteyine cyangwa se intungamubiri cyangwa se ibifasha abantu'ubu bakora siporo kuba bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetsekanarinda izindi buzima munsi giteganya kudakora siporo zikomeza kugira ubuzima bwiza banirinda indwara zitandukanye

Ni imodoka yo mu bwoko bwa Ambirance yifashisha mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro ibajyana ku bindi. Imodoka igenda yihuta cyane kuko iba itanga ubutabazi bw'ibanze. Kandi itwara abarwayi kugira ngo babone serivisi zubuvu byihuse.

Ni hamwe hatangirwa imitsi ifasha abantu bakora siporo cyangwa se abafite ibibazo byo kudakora siporo ndetse kugira ngo bakomeze bagire imbaraga z'umubiri ndetse binfasha kuba barohuka baririnde zimwe mu ndwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo ziganjemo iz'umubyibuho uka bijejiza amaraso n'iz'umuvuduko w'amaraso.

Ni igikoresho gikoreshwa mu gufasha abantu mu kugorora ingingo z'umubiri kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza ku gorora umugongo n'ibindi bice gikoreshwa mu buvuzi cyangwa se mu igororamubiri kugira umubiri usubirana imbaraga n'imbarutso.

Ni bimwe mu biribwa byiganjemo imbuto zigiye zitandukanye. Ndetse amagi, imineke ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gukora siporo. Bifasha abakora siporo kugorora umubiri wabo, ukubarinda kuba barwaragurika ndetse no kuba bahura n'indwara ziterwa no kudakora siporo. Ziganjemo umuvuko w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije.

Ni umusore ni umusore uri muri siporo urabona ko ari kugorora ibice by'umubiri kugira abashe kwirinda indwara ndetse abashe kuruhuka neza mu mutwe binamufashe kuzagira ubuzima bwiza ndetse bihe ubudahangarwa bwe bw'umubiri kuba wakwatakwa n'indwara abasha kugira ubuzima bwiza anaruhuke neza asubire mu kazi ke ka buri munsi.

Ni bimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu barerekana by'umwihariko amagufwa batubwira bati mukore siporo mu mugire ubuzima bwiza natwe twirinde indwara ziterwa kuba tudakora siporo tugire umubiri ugororotse ndetse n'ibice by'umubiri bize kumera neza.

Ni umuntu wari uri muri siporo arakomereka, aza gusa serivisi z'ubuvuzi, bari kumwitaho, bari kugenda bamuvura ibikomere yagize, ari gafashwa n'umuganga ubifitiye ubushobozi ndetse wabyigiye kugira ngo yongere amugarurire imbaraga z'umubiri ndetse amwiteho bihagije.

ni imwe mu miti cyangwa se igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kugorora zimwe mu ngingo z'umubiri by'umwihariko ku kuboko aho amaboko ahuriye mu ihiniro kugira ubashe kuba byakurinda indwara zigiye zitandukanye z'umubiri ziterwa no kudakora siporo

Ni umusore uri muri siporo urimo agorora amaguru. Ari ahantu heza ho gukorera siporo, bimurinda indwara zigiye zitandukanye. Arimo arakora siporo kandi yishimye, yambaye inkweto zimufasha gukora siporo neza.

Ni amacupa atatu y'ubwoko bw'umuti wifashisha mu kuvura indwara cyangwa se mu gufasha abantu bakora siporo kugira ngo bakomeze kugira imbaraga z'umubiri ndetse bibarinde na zimwe mu ndwara ziterwa no kudakora siporo ngororamubiri, bikaba bifasha mu kubongerera imbaraga z'umubiri no gukomeza kubaho neza.

Umubyeyi wicaye kuri matora ndetse ari kumwe n'umwana bariguseka. Bari guhabwa serivisi z'ubuvuzi, ndetse ikigaragara cyo bisa naho bafite icyizere cyo gukira, kuko umubyeyi arishimye ndetse n'umwana arishimye. Bahawe serivisi nziza z'ubuvuzi.

Ni umusore uri muri siporo; zimufasha kugira ubuzima bwiza, zikamuha kubaho neza kandi yishimiye. Gukora siporo ngororamubiri kugira ngo acye kandi abashe gutuza neza (Indwara zimwenazimwe ziterwa no kudakora siporo), ndetse akomeza kuba mwiza kandi yishimye mu buzima bwa buri munsi.

Ni umukinnyi waruri gukina football abasha kuvunika, ari kumwitaho yifashishije imiti igiye itandukanye yabigenewe ndetse ari kwitabwaho n'umuntu ubifitiye ubushobozi ndetse ari mufasha ku ngingo zangiritse ari buzekora.

Ni bamwe mu bari gukina umukino ngororamubiri, ubafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, birasa n'aho umwe muri bo yabashije kuba yahura n'ikibazo, bakaba bari kumuha serivisi nziza yo kumufasha kumwitaho kugira ngo yongere asubire mu mukino, ingingo ze zisubire ku murongo, abashe kwitabwaho neza.

Ni ikimera cyifashishwa mu kuba hategurwa imwe mu miti yifashishwa mu buvuzi butandukanye, ku baturage cyangwa se abantu bagaragawe n'indwara zivugwa n'imiti ikomoka muri iki kimera. Iki kimera gitegurwa n'abaganga babifitiye ubushobozi bwo gutegura ibimera bakabikuramo imiti iteguye neza .

Nibimwe nta mavase arimo bimwe mu bihingwa cyangwa semo byifashishwa mu gutunganya imiti itandukanye ifasha abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi kuba n'imiti ibafasha yi hejuru ahantu nyuma babyitaho bibafasha baganga cyangwa gutunganya imiti .

Ni icupa rirerire rigiye gusa n'umweru ry'umuti, uyu muti wifashishwa mu kuvura indwara burundu mu mubiri kandi wujuje ubuziranenge yemewe n'ikigo gishinzwe ubuvuzi ndetse n'ubushobozi bw'abakiza.

Ni imiti itandukanye ndetse y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara ziba zatatse umubiri kandi ikaba iyivura igakira burundu uwayifashe arongera akagira imbaraga ndetse akongera akabaho neza mu buzima bwe bugakomeza kugenda neza bikamufashasha kubaho tu.

Ni kimwe mu bimera ndetse ni ikimera cyifashishwa mu gutegurwamo imiti yabugenewe hifashishijwe n'abaganga b'inzobere muri laboratwari kugira ngo bateguremo imiti igiye itandukanye, bizafasha abarwayi mu gukomeza kubona serivisi nziza zibafasha mu buvuzi no kwirinda indwara.

Ni imiti igiye itandukanye y'ubwoko butandukanye harimo n'amacupa maremare n'andi magufi, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuba yavura abantu barwaye indwara zitandukanye ndetse ikaba yabafasha kugarura imbaraga mu buzima bwabo, no kuba yaranduye indwara zimwe bagiye barwaye.

Ni imiti igiye itandukanye y'ubwoko butandukanye ndetse yose ikaba yifashishwa mu gihe hari abahuye n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi kugira ngo babasheshe kwitabwaho ndetse bongere bagire ubuzima bwiza kandi babeho neza.

Ni imiti igiye itandukanye by'ubwoko butandukanye ifasha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kongera kugira imbaraga ndetse basubirane ubudahangarwa bw'umubiri bongere babe abantu bafite ubuzima buzira umuze imbaraga zongere zigaruke mu mubiri wabo.

Ni kimwe mu kimera cyifashishwa mu gutunganywamo imiti, igiye itandukanye, ndetse kikaba kinavura, mu gihe ugikoresheje neza, ugakurikiza amabwiriza wahawe na muganga, uwo muti ukawufata neza kandi ukawufatira ku gihe, kiragufasha cyane ukagira imbaraga z'umubiri ugakomeza kubaho neza.

Ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, biri kumwe n'imiti ndetse na yo ifasha abarwayi mu kuba bakongera kugira ubuzima bwiza, ikabakiza indwara burundu mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye, bigaragaza ibimenyetso bya zimwe mu ndwara zivurwa n'iyi miti.

Ni umuti uvura indwara ndetse uwo muti ukaba wifashishwa n'abarwayi barwaye bakaba bawugenerwa na muganga kugira ngo ube wabafasha kurandura iyo ndwara burundu mu mubiri ndetse bakomeze kugira ubuzima bwiza, uyu muti iyo uwufashe neza ugakurikiza amabwiriza, urakira burundu.

Ni imiti itegurwa ifasha abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi ikaba yabafasha mudwara bahuye nayo ikabagarurira imbaraga ndetse ikabongerera ubudahangarwabiri basubirana ubuzima bumeze neza bagasubira mu bikorwa byabo ndetse bagasubirana imbaraga z'umubiri baritakaje igihe cy

Ni bimwe mu bimera bifasha cyangwa se bivamo imiti ifasha abantu bafite'ibibazo bitandukanye by'uburwayi n'abakoreshwa mu gutegura imiti zitandukanye, ifasha gukizaza cyangwa se kurinda idwara ibyo zitandukanyeka bikanafasha buri munsi bafite ikibazo cy'uburwayi bujyanye.

Ni umuti uri mu icupa rirerire ufasha abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi mu kubaha serivisi z'ubuvuzi no kubafasha kuba bakira iyo ndwara kongera kugira ubuzimatu buzira umuze bubafasha mu buzima bwabo.

Ni ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gutegurwamo imiti n'abakozi babifitiye ubushobozi muri laboratwari, bakabibyazamo imiti ya kizungu, ifasha abarwayi gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse buzira indwara bakomeze kubaho neza.

Ni rumwe mu rubuto rukoreshwa rwongerera imbaraga umubiri bakaba barwita ipapayi, baratwereka imbuto ziruvamo na rwo rwifashishwa mu kurinda indwara zigiye zitandukanye ndetse no gukoreshwa bategura imiti igiye itandukanye, ifite akamaro gakomeye mu mubiri w'umuntu mu gihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi rwamufasha.

Iki ni ikimera cyangwa se ni igihingwa byifashishwa n'abaganga babifitiye ubumenyi mu kugiteguramo zimwemwete byifashishwa mu gukiza cyangwa se mutsikitandukanyekanya mu gihe cyateguyewe neza n'abaganga bafitiye ubushobozi mumenyi.

Ni imiti igiye itandukanye, ivura indwara zitandukanye, ndetse ikaba ikiza izo ndwara burundu mu mubiri, ku barwayi b'izo ndwara zikira, imiti iyo bayifashe neza nk'uko babihawe, babasha gukizwa n'izi miti burundu, mu mubiri bagasubirana ubuzima buzima.

Ni abantu abantu bari kumwe n'ibihingwa byifashishwa mu mitegurire imiti itandukanye hara barwaye zitandukanye, ndetse baka bakomeza kugira ubuzima bwiza ibihingwa birafatwatemva neza muri raboratwari bigategurwa n'imiti ibafasha.

Ni icupa ribiyikwamo imiti yifashishwa mu gutanga serivisi z'inzi cyangwa mu gufasha abantu bahuye n'ibibazo bakiribirinda indwara bikabaha ubudahangarwa bw'umubiri no gusubirana imbaraga mu gihe bahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Ni igihingwa bakunze kwita dozeline. Iki gihingwa kifashishwa mu gutegugwa kw'imiti ndetse bamwe mu baturage bakifashishwa mu kugihekenya mu gihe bafite ibibazo bigiye bitandukanye harimo iby'umutwe n'ibindi bitandukanye ndetse kikaba kininifashishwa mu gutegura imiti itandukanye ya kizungu.

Ni amenyo meza bari kutwereka ndetse bakatwereka n'umuti. wifashishwa mu kugira amenyo yawe ube wayarinda zimwe mu ndwara zitandukanye, ziterwa no kutagirira isuka amenya yawe. Badushishikariza gukoresha uyu muti, kugira ngo natwe bidufashe kugira amenyo meza kandi asa neza, biturinde zimwe mu ndwara zandurira mu kutagirira isuku amenyo yacu.

Ni ikimera cyifashishwa mu gutegura imiti itandukanye ndetse bigakorwa n'abaganga bafite ubumenyi b'inararibonye n'ubushobozi, bafata ibi ibimera bikabitwara, bakabitunganya neza bakabinyuza muri laboratwari, bakabitegura neza ndetse n'ibikoresho byabugenewe bagakoramo imiti myiza ya kizungu.

Mu icupa ririmo umuti ukorwa hifashishijwe ikimera bita umuravumba, ukaba ufasha abantu mu kubavura indwara zitandukanye z'umubiri, kandi uyu muti ukabuvura neza mu gihe wakoreshejwe neza ukurikije amabwiriza wahawe na muganga.

Ni ikimera kifashishwa hategurwa imwe mu miti itandukanye ndetse kikaba kivura indwara zitandukanye, kikaba gifatwa kikajyanwa ahabigenewe kigatunganywamo imiti itandukanye n'ababifitiye ubushobozi ndetse n'ubumenyi.

Ni umuti ubitse neza mu gikoresho cyabukenewe, wifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi, uwahawe uyu muti abasha gukira neza, umubiri we ugasubira ku murongo akongera akagira imbaraga z'umubiri agakira indwara burundu.

Ni kimwe mu gihingwa cyifashishwa hategurwa imiti igiye itandukanye ifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi, kubashakira imiti zabafasha kwirinda ndetse no kurandura ubwo burwayi, bahuye na bwo mu mibiri yabo burundu. Ijyanwa ahabigenewe, igategurwa n'ababifitiye ubushobozi, bakayibyazamo imiti myiza kandi ifite ubushobozi.

Ni imiti ititandukanye ifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi iri mu icupa rirerire, iri mu icupa ritoya ho gato, hari n'irindi riri mu icapa rigiye ku isongoraho gato ndetse batwereka n'ibihingwa bibasha kuvamo iyo miti.

Ni bimwe mu bikoresho byifashishwa cyangwa se ni imwe mu miti ihabwa abarwayi batandukanye, iba ifunze mu dukarito bakagenda bakuramo kamwe kamwe ndetse igahabwa umuntu ufite uburwayi buvugwa n'iyo miti. Iyo miti bayita Aloe Lips. Yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni ikimera cyifashishwa mu gutegura imiti bita umuharavumba, kikaba gikunze gukoreshwa mu gukiza indwara zitandukanye, harimo izo mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, kikaba kinategurwa n'indi miti ya kizungu yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Ni bimwe mu mbuto cyangwa se mu bihingwa twakita tangawize byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'umubiri ndetse bikaba binatunganywamo indi miti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi n'abaganga babifitiye ubumenyi.

Ni ibimera byifashishwa mu gutegura imiti igihe itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye zivurwa nicyo kimera. Kitunganywa n'abaganga babifitiye ubushobozi bakaba bagikora n'indi miti ya kizungu igiye itandukanye.

Ni ikimera kibasha kwifashishwa mu gihe hari gutegurwa imwe mu miti yifashishwa mu kuba yavura indwara zigiye zitandukanye mu gihe iki kimera cyafashwe n'abaganga babifitiye ubushobozi bakakijyana muri promasi bakabasha kugitegura neza bagikoramo imiti yabugenewe.

Ni ikimera cyifashishwa hategurwa imiti, aho gifatwa n'abaganga babifitiye ubushobozi n'ubuhanga ndetse babikozeho ubushakashatsi bakagitwara muri laboratwari bakagiteguramo umuti bitewe n'indwara bashaka kuzagikoresha bavura, ndetse kikaba gikiza neza iyo ndwara ku bayirwaye bagakira.

Ni indwara zifashishwa mu kuvura abantu bataka indwara zifata ingingo z'umubiri zirimo:iz'umugongo, izo mu ijosi,'izo ku rutugu ndetse n'izo ku nkokora ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, hari amacupa y'imiti atandukanye ndetse atera izi indwara zitandukanye, izo ku ivi, iz'imigongo ndetse n'izo mu mbavu n'izo mu mpande zitandukanye.

Ni umuti uri mu gikoresho ubikwamo cyabugenewe wifashishwa mu kuvura indwara iyo wawufashe neza ukurikije amabwiriza wahawe na muganga, uyu muti uragukiza neza burundu iyo ndwara ikaranduka mu mubiri wawe.

Ni ubucuruzi bucuruza imiti itandukanye, buvura indwara zigiye zitandukanye ndetse bakiriye umukiriya, bari kugenda bamwereka imiti bafite banamusobanurira kugira abashe kuba yaguramo umwe mu imufasha mu burwayi yaba akeneye kwivura ndetse no kuvura abe, kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni umuti wifashishwa mu kugorora cyangwa se mu kurinda umubiri ubudahangarwa no ku bantu bakora siporo uyu muti urabafasha kuba wagira ubuzima bwiza no kugira umubiri muzima wirinde indwara zitandukanye kugira urugo ndetse n'ubuzima buzira umuze.

Ni bimwe mu bimera byifashishwa mu gutegura imiti itandukanye, yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye ndetse itegurwa n'abaganga babifitiye ubushobozi muri za laboratwari bagakoramo imiti itandukanye, ifasha abarwayi mu kurwanya indwara.

Uyu ni umwe mu muti wifashishwa mu ndwara zitandukanye, by'umwihariko uba barizweho n'ikigo kibishinzwe ndetse warakozwe n'abashakashatsi batandukanye bakabona ko ufite ubushobozi bwo kuba wagira indwara ukiza ndetse urwa iyo ndwara iyo afashe kuri uyu muti abasha gukira neza akaba yakongera kugira ubuzima byiza.

Ni umuti uri mu gikoresho cyawo cyabigenewe ubikwamo, uwo muti ukaba ukoreshwa mu kuvura zimwe mu ndwara zitandukanye ndetse uwawufashe neza akurikije amategeko yahawe na muganga abasha gukira neza iyo ndwara mu mubiri we, agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni imwe mu miti itandukanye y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye, bikoreshwamo ndetse igiye iri ahantu hari isa n'umutuku, hari isa n'umuhondo, hari n'indi y'icyatsi. Yose ikoreshwa mu kuba yafasha abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi bitandukanye kuba vbahabwa ubuvuzi n'abaganga b'inzobere babifitiye ubumenyi.

Ibimera bitandukanye, byifashishwa hategurwa imiti itandukanye, mu gihe byafashwe bigategurwa neza bikajyanwa hagenewe ,aho bita muri faromasi cyangwa se muri laboratware bigategurwa n'ababifitiye ubushobozi n'abaganga b'inzobere bakabikoramo imiti kandi yujuje ubuziranenge.

Ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi kibasha gukoreshwamo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko gishobora no gufatwa n'abaganga babifitiye ubumenyi butandukanye bakakijyana mu nzira yabigenewe bagatunganyamo iyo miti ifasha abantu kuba yabavura indwara zitandukanye.

Ni igihingwa cyifashishwa mu gutegura imiti, itanga serivisi ku baturage bakeneye kuvugwa. Kirakura kikajyanwa muri laboratwari kigategurwa n'abafitetiye ubushobozi, bakagikoramo umuti mwiza wujuje ubuziranenge, uzakoreshwa mu gutanga imiti.

Ni ibihingwa bivamo umuti bita Aloe Blossom Herbal tea, niwo muti uturuka mu cyayi, cyangwa se wifashishwa hakoreshejwe ibihingwa hagatunganywamo uwo muti, hari indwara ukiza.

Ni umwe mu miti ikoreshwa irwanya indwara zigiye zitandukanye. Yifashishwa mu kuvura no kurandura mu mubiri zimwe mu ndwara zivurwa n'uyu muti. Ikaba yarateguwe n'ababifitiye ububasha ikaba ikoreshwa n'abaganga.

Ni imiti itandukanye bifashishwa mu buvuzi ndetse n'ibikoresho bifashisha ndetse n'ibimera byifashishwa mu gutunganya iyo miti ifasha abantu mu burwayi butandukanye bwa buri munsi, bikaba biri mu ducupa tugiye dutandukanye, hari agacupa gafunze hari n'akakoreshejweho.

Ni igihingwa cyifashishwa mu kuba cyategurwa kikajyanwa muri laboratwari ahabigenewe bagategura n'imiti ifasha abarwayi bagiye batandukanye mu kuba babonamo ubuvuzi bubafasha kuba bwabavura mu ndwara zigiye zitandukanye mu gihe byateguwe neza n'ababifitiye ubushobozi babyize kandi bakabikorana ubuhanga.

Ni icupa ririmo umuti wifashisha mu indwara wakiza cyangwa se waririnda mu gihe umwe mu barwaye indwara ivurwa n'uwo muti yabasha kugana ivuriro cyangwa se farumasi, cyangwa ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi akabasha kubona uwo muti ukamukiza iyo ndwara uvura.

Ni urutonde cyangwa se ni ihuriro ry'ibihingwa bitandukanye byiyifashishwa mu gutegura imiti . Ibyo bihingwa bigera mu munani kandi bigiye bitandukanye byose byahurijwe hamwe bikaba byifashishwa mu gutegura imiti igiye itandukanye.

Ni icupa ry'umuti ukoresha mu gutanga serivisi abantu barwayegarura ubudahangarwa ndetse no gukomeza kwirinda iyo ndwara yifashishwa n' umutima kurindatu neza mu mucupa ufasha abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayiriya.